Amaduka bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye n'agasoko abantu bacururizaho inyanya, intoryi, ibirayi kugira ngo babone amafaranga n'umu egenti ubabikuriza.

Isoko abantu bacururirazamo ibintu bigiye gutandukanya ibikapu, ibikoresho byo mu rugo, ibiribwa n'aba ejenti bacuruza mitiyu n'imodoka zitwara bagenzi.